Abagabo babiri bafite igikoresho gitwarwamo abarwayi cyakoreshwaga cyane cyane mu Rwanda rwo hambere, aba bakaba bagiterura bakagishyira ku rutugu, maze bakagenda batwaranye umurwayi akagera aha agera.

Itsinda ry'abantu bambaye imyambaro y'abakora mu muryango utabara imbabare, bari gufasha umugore bigaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima, aba bakaba bashaka kumutereka ku gatanda maze akajyanwa aho ari buhererwe serivisi z'ubutabazi bw'ibanze.

Ahantu habugenewe, hari agakoresho gafite ibara ry'umutuku, gatwarwa n'indege zitagira abapilote zikoreshwa mu buvuzi ndetse no mu bwikorezi bw'imiti n'ibindi bikoresho ibyo aribyo byose bikoreshwa mu buvuzi. Ibi bikaba bituma serivisi z'ubuvuzi zirushaho kunogera buri wese.

Imbere y'inyubako zubakishije amatafari ndetse zisakaje amabati y'umutuku, hari umugabo wambaye umwambaro w'umuryango utabara imbabare, uyu akaba yaje guha ibintu bitandukanye, birimo ibiribwa ndetse n'ibiryamirwa ku bantu babikeneye.

Mu cyumba cyo kwa muganga gifite amabara y'umweru ndetse gifungishije urugi rukozwe mu mbaho, hari abantu benshi aba bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bategereje kwitabwaho ndetse no guhabwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi, hari umuntu uri gukora ubushakashatsi ukoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga, birimo ibifata amaraso, ibipima indwara ndetse yambaye n'uturindantoki tumurinda kuba yagira impanuka ahurira nazo mu kazi.

Ahantu mu cyumba kiberamo gupima indwara zitandukanye, harimo umuntu wambaye imyambaro y'akazi, irimo uturindantoki ndetse n'itaburiya, uyu akaba ari gupima indwara zitandukanye, akoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga, gikoreshwa mu kureba ibyo amaso atabasha kubona.

Mu cyumba cyo ku bitaro hahuriyemo ababyeyi benshi biganjemo aba bagore, aba bakaba bambaye ubupfukamunwa bubarinda kuba bagira indwara banduzanya hagati yabo cyane cyane izandurira mu guhumeka.

Abaturage barimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ahantu imbere y'inzu zishaje, aba bakaba bari kuganira n'umuyobozi wabo, ku bijyanye n'ingingo zitandukanye zireba umudugudu wabo.

Itsinda ry'abagore bambaye imyambaro imwe yanditseho ibintu bimwe, bari ahantu aho bari guhabwa amahugurwa, aba kandi bakaba barimo umwe muri bo, uri kuvuga akoresheje indangururamajwi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi isize amarangi afite ibara ry'umuhondo weruye, amanitseho icyapa gifite amabara y'umweru n'inyuguti zandikishije icyatsi kibisi, kikaba cyerekana ko aho hantu hacururizwa imiti ivura indwara zitandukanye.

Mu cyumba gisize amabara y'umweru, dusangamo umuganga wambaye imyambaro y'umweru, uyu akaba ari gutondekanya imiti ipanze neza mu bintu biyibuza kwangirika kugira ngo izavure indwara abazaza kuyigura.

Icyapa kinini gifite amabara atandukanye, arimo ubururu bwijimye ndetse n'umutuku n'icyatsi kibisi. Iki cyapa kikaba kerekana ko ahantu kimanitse hacururizwa imiti ivura indwara zitandukanye zirimo nk'imitsi, umutima ndetse n'izindi.

Imiti n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, urugero twavugamo nk'uturindantoki turinda abaganga kugira ngo batagira indwara runaka bandurira ku barwayi mu gihe bari kubavura, ibi bikaba bituma serivisi z'ubuganga zizamura ikigero zitangirwaho.

Ahantu mu nzu iberamo imikino ndetse n'imyidagaduro. Harimo umugabo wambaye umwambaro w'icyatsi kibisi ndetse n'umugore ubyibushye, wambaye umwambaro utukura. Uyu akaba ari kwitabwaho n'umuganga nawe wambaye uturindantoki tumurinda kuba yagira aho yandurira indwara azandujwe n'umurwayi.

Abaturage benshi bateraniye munsi y'igiti imbere y'inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubuzima, aba bakaba bakurikiye umugabo uri imbere yabo abagezaho ubutumwa, ku bijyanye no kwegereza serivisi z'ubuzima abaturage.

Mu icyumba kinini harimo ibintu bitandukanye byiganjemo ibyuma byifashishwa mu bushakashatsi, harimo umugabo wambaye imyambaro y'akazi ndetse n'agapfukamuwa n'uturindantoki. Uyu akaba ari gukora ubushakashatsi akoresheje ibyo byuma.

Imbere y'inzu yubatswe mu buryo bugezweho ndetse igerekeranyije ifite amabara atandukanye, hari icyapa kinini gifite amabara y'ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umukara. Icyo cyapa kikaba cyerekana ahacururizwa imiti ivura indwara zitandukanye ndetse na serivisi z'ubuvuzi.